Umuntu ufite ikiganza cyirabura wambaye ikoti ry'umweru, hirya gato hariho intebe zikozwe mu bititi ziri munsi ya kontwari yubakishije amakaro, hirya gato hari umuntu uhagaze ku gikuta cyubakishijwe amatafari ahiye , hirya gato hari irido y'ubururu.

Inzu nini cyane irimo intebe za divayi, yubakishijwe amatafari y'igitaka. Irimo parafo y'umweru, irimo umuntu wiyoroshe agatambaro karimo udupfumagure tw'umweru, wambaye tisheti y'umweru.

Abadamu benshi , abadamu bambaye ingofero z'umweru, abadamu birabura, abadamu bambaye amashati maremare afite amaboko maremare y'umweru, imbere yabo hari ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ameza meza cyane.

Abanyeshuri beza cyane, abanyeshuri birabura barimo umukobwa n'umuhungu, umuhungu umwe wambaye itaburiya y'umweru umukobwa ufite imisatsi izinze wambaye linete, hirya gato hari uwambaye umugabo wambaye linete z'umukara, hirya gato hari undi mukobwa ufite imitatsi izinze.

Abanyeshuri benshi cyane birabura; harimo abakobwa n'abahungu, umukobwa umwe wambaye agapfukamunwa ku mutuku, ufite imisatsi w'umukara, abahungu babiri b'imbere bambaye udupfukamunwa, bambaye ingofero z'umuhondo, umwe ufashe ipenzi arikuzinga icyuma cya ferabeto.

Abanyeshuri beza birarabura, abahungu n'abakobwa. Umwe afite imisatsi y'umukara wambaye isarubete ijya gusa umweru hirya gato hari uwambaye isubeti ijya gusa umukara wijimye, hari umwe wambaye silipa ukandagiye ku meza hasi ku giti cyo ku meza.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu ifite amakaro hejuru, inzu ifite inangi ry'umuhondo n'umweru, irimo intebe zikorwa mu biti, imbere y'inzu hari abanyeshuri batatu umwe w'umukobwa ufiteyite imisatsi izinze, undi w'umuhungu wambaye agapfukamunwa k'umkara, wambaye isurubeti yanditseho Epiyarasi Gishari.

Bantu benshi abantu bagiye batandukanye b'abagabo birabura. Umwe muri bo wambaye umupira w'umweru ,wambaye ingofero ijyagusa umutuku ,hirya gato hari umuhungu wambaye ipantaro y'umukara irimo imirongo y'ubururu imanuye, ndetse wambaye inkweto z'umukara, hirya gato harundi wambaye isarubeti y'ubururu uhagaze.

Umufundi mwiza cyane, umufundi wirabura wambaye ikaseke y'umuhondo, wambaye igisarubeti cy''ubururu, wambaye inkweto z'umukara zirimo umweru, wambaye amasogisi y'umuhondo, uri kubaka amatafari ahiye. Inyuma ye hari abantu bahagaze babiri batandukanye, afite imisatsi y'umukara miremire.

ishuri ryiza cyane, ishuri riteye sima, ishuri rifite irangi ry'umweru, ishuri rifite ikibaho cyiza, ishuri rifite akabati gakozwe mu giti, ishuri rifite intebe zikozwe mu byuma zifite Aho kwandikira hakozwe mu biti, ishuri ryiza cyane rifite ibirahuri by'umweru.

Abanyeshuri beza cyane, abanyeshuri birabura harimo umukobwa n'umuhungu, umukobwa ufite umusatsi w'umukara, bambaye inifomu y'ubururu irimo umweru, umwe ufite ikaramu uri kwandika. Undi ufashe ikaramu uri kwandika ku kintu cy'umuhondo, imbere gato hari ekuteri.